Hagaragara abantu bameze nk'aho bari mu nteko ishingama tegeko bisa nkaho bari kuganira bose bavuga ku bintu bijyanye na politiki ikigaragara cyo kugira ngo barebe icyagira ikijya mbere.